Abana biga mu mashuri abanza baje kwigishwa ku isuku bijyanye n'uko bakora isuku yo mu kanwa ndetse bahawe korogati n'uburoso kugira ngo bajye biborosa, babungabunge amenyo yabo bagire ubuzima bwiza.

Hari umuganga w'umukobwa wambaye akuma kumva umutima, ari kwambara agapfukamunwa, ari kwitegura kwakira umurwayi mu isuzumiro, ari kureba amakuru y'abarwayi muri mashini ategereje ko abarwayi binjira.